Abantu batandukanye bicaye mu nama y'akazi, harimo abagabo, harimo abagore, harimo abasore, harimo n'inkumi. Bose bateze amatwi kandi bose bari kureba imbere. Harimo umwe wafashe ikaramu arimo kwandika ibivugwa.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama baricaye bari gutega amatwi kandi ukurikije ukuntu ahantu hatatswe ni inama y'inzego z'ubuyobozi kubera ko mu kuhataka bakoresheje amabara y'ibendera ry'igihugu ni ukuvuga ngo ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe nziza zifite imisego, ameza ari imbere yabo afite ibara ry'umutuku ni ameza meza kandi abantu baratandukanye harimo abirabura harimo n'abazungu abayoboye inama bicaye imbere.

Abantu batandukanye bahuriye mu nama. Uko bigaragara bose bakora mu kigo kimwe, kubera ko bambaye amakarita y'akazi asa, kandi bose bambaye neza abagabo bambaye amakoti abagore nabo bambaye neza.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'amahugurwa, bose bicaye neza kandi harimo abantu batandukanye, abagabo n'abagore. Ni amahugurwa ashobora kuba ashingiye ku ikoranabuhanga, kubera ko buri muntu wese afite mudasobwa arimo gukoresha.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, ni abantu bambaye neza kandi batandukanye kubera ko harimo abagabo bakabamo n'abagore, bamwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi hari n'abafite ibyo kwandikamo, bose bafite amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa buri wese yicaye ku ntebe ye kandi bose barakurikiye, bafite amazi yo kunywa kugira ngo batarambirwa, hari umuyobozi wa RIB urimo kubasobanurira iby'amahugurwa barimo.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa. Harimo abasilamu bambaye ingofero zabo za k'isilamu, kandi hari bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga za mudasobwa barimo bangurana ibitekerezo.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Reveni osoriti, ni ikigo gifasha abacuruzi batandukanye kumenyekanisha imisoro no kwishyurira igihe, kandi mu nshingano zabo kinibutsa abantu iyo igihe cyo kwishyura kigeze.

Ecobanki ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda itanga serivisi zitandukanye harimo serivisi zo kubitsa no kubikuza ndetse no gutanga inguzanyo hari abantu babiri bicaye bategereje ko babaha serivisi hari n'undi umwe usohotse uri kuvugira kuri telefoni.

Umunara w'itumanaho wa Sosiyete y' itumanaho ya MTN. Ni umunara bubaka ahantu kugira ngo bawushyireho ibikoresho bizatuma bababasha kugeza amajwi mu turere twa kure dutandukanye, cyangwa se bashyireho ibikoresho bituma bohereza murandasi mu duce tuhaturiye mu bice bituriye ahongaho.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cyigishirizwamo ibihereranye n'ikoranabuhanga. Bose bari kwiga mudasobwa kandi buri wese afite mudasobwa arimo gukoresha. Ushinzwe kubigisha arimo aragenda asobanurira buri muntu wese ku giti cye.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa n'ibigo bitandukanye by'itumanaho mu Rwanda kugira ngo ushyirweho ibikoresho bitandukanye bifasha mu gusakaza amajwi cyangwa se amashusho cyangwa se gukwirakwiza murandasi aho itagera.

Ahatangirwa serivisi z'ikoranabuhanga, harimo serivise zitandukanye zitangirwa ku rubuga irembo, hakaba higanjemo na serivisi z'amabanki, urugero nka EQUITY BANK, ECOBANK n'izindi banki zitandukanye.

Insinga z'amashanyarazi insinga zikoreshwa mu kuvana amashanyarazi ahantu ari bayajyana ahantu atari. Izi nsinga zikoreshwa mu kujyana amashanyarazi ahantu kure urugero nko mu karere kandi, kugira ngo n'abantu baho babone amashanyarazi.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu mu Rwanda, akaba yuriye igiti kiriho insinga z'amashanyarazi kandi afite ibikoresho kugira ngo afashe umuturage kubona amashanyarazi.

Ivuriro rifite amazu afite imiryango itandukanye ku buryo buri serivisi yose iba ifite ahantu ikorera, abaganga bari hanze kubera ko nta barwayi bahari bo kwitaho, iri vuriro rifite ubusitani buteme ibiti.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo zifashe mu kuvana abarwayi ku bigonderabuzima cyangwa se mu mavuriro bajya kwivuriza mu mavuriro makuru ya kure.

Inkiko gacaca ni inkiko zigizwe n'inyangamugayo zatoranyijwe mu midugudu zikaba zaracungwa na minisiteri y'ubutabera, zagiyeho kugira ngo zifashe mu guca imanza zitandukanye, z'abantu bakoze ibyaha bya jenoside mu Rwanda.

Abantu batandukanye bashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda kubera Genoside yabaye mu Rwanda bamwe bagiye bafatwa ariko abandi ntibafatwa leta zunze ubumwe za Amerika yari yatanze amafaranga angana n'amadolari miliyoni eshanu ku muntu wese uzatanga amakuru.

Umugabo muremure wambaye ikanzu ifite ibara ritukura, kandi iryo bara ritukura harimo n'ibara ry'umukara; imbere mu gatuza harimo ibara ry'umweru rimanutse, ni umucamanza.

Umuntu wambaye ikanzu ndende ifite ibara ry'umutuku harimo n'ibara ry'umukara, mu gatuza ikanzu ifite ibara ry'umweru rimanuye mu gatuza, uyu muntu akora mu nzego z'ubutabera ni umucamanza.

Abagabo batanu bahagaze bambaye imyenda ifite ibara ry'iroza ni abagororwa. Bakaba barakoze ibyaha bitandukanye, bakaba bajyanywe mu giturage iwabo aho bakoreye ibyaha kugira ngo bahaburanishirizwe.

Imodoka y'ishami rya Polisi y'Igihugu rishinzwe umutekano wo mu muhanda, imodoka ntoya ifite ibara ry'umweru rivanzemo n'ibara ry'umukara ryanditse mu rubavu Traffic Police.

Imodoka ikoreshwa n'ishami rya polisi, rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ni imodoka ntoya ifite ibara ry'umweru rivanzemo n'amabara y'umukara, hagati handitseho tarafike polisi.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ziri mu moko atandukanye bitewe n'ingano zayo kandi zikaba zizimya ahantu hatandukanye bitewe n'uburemere bwazo. Kizimyamwoto ushobora kuyikoresha mu rugo, ku kazi, aho ukorera cyangwa se aho ucururiza cyangwa se mu modoka.

Ibitaro bya polisi bya Kacyiru, ni ibitaro biri ku rwego rwo hejuru ndetse biri ku rwego mpuzamahanga, hajya kwivurizayo abantu boherejweyo baturutse ku bindi bitaro cyangwa se ibigo nderabuzima bihegereye.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ishobora kuzimya umuriro bitewe n'ingano y'umuriro kandi bigaterwa n'ingano yakizimyamwoto wakoresheje, bishobora gukoreshwa ahantu henshi hatandukanye haba mu rugo, haba ku kazi cyangwa se ukayikoresha mu modoka.

Polisi y'igihugu ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro yasuye abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barimo barabigisha ukuntu bakoresha kizimyamwoto mu gihe haramutse habaye inkongi y'umuriro.

Abadepite mu nteko ishinga amategeko buri wese yicaye mu mwanya we kandi buri wese aho ateganyirijwe kwicara haba hari ibyangombwa byose, hakubiyemo n'uburyo bwo gutanga ibitekerezo, aba afite amazi yo kunywa, bari mu gikorwa cyo gutora amategeko umuntu umwe yazanye akantu bashyiramo amajwi batoye.

Abantu batandukanye bari mu cyumba inteko ishinga amategeko ikoreramo imbere hari nyakuhwa perezida wa repubulika Paul Kagame abantu bahagaze bafashe ku ibedera ry'igihugu bazabura ukuboko kw'iburyo barimo bararahira imirimo bashinzwe.

Komisiyo y'amatora ni komisiyo yashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ngo ijye ifasha mu migendekere no gutegura amatora mu Rwanda. Uru ni urupapuro rubarurirwaho amajwi, aho hagaragara ko umukandida Paul Kagame arimo kubarirwa amajwi.

Yitwa Mpayimana philip, yari umukandida mu matora ya perezida wa repubulika yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, agiye yagiye kwiyamamaza arahagurutse yambaye ikoti ry'umukara, afashe ijambo arimo aravuga imigabo n'imigambi ye.

Habyarimana Juvenal yabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo irindwi na gatatu, kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo kenda na kane, ubwo yapfaga aguye mu mpanuka y'indege, yabaye avuye mu nama muri Tanzania.

Imodoka ya hoho y'umutuku yikoreye umucanga iremo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, iri yonyine umushoferi nawe ari wenyine nta bandi bantu bari kumwe, munsi y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali. Ni imodokadoka ifite ibara ry'umweru ku mpande hariho amabara y'icyatsi. Ni imodoka itwara abantu benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira z'abanyamaguru iburyo n'ibumoso. Ku ruhande rumwe mu nzira y'abanyamaguru harimo haragendamo umunyonzi udafite umugenzi. Hari undi munyonzi wikoreye amabati urimo kugenda muri kaburimbo.

Ku muhanda wa kaburimbo, harimo hagendamo moto itwarwa n'amashanyarazi. Umumotari uhetse umugenzi bose bambaye ingofero z'ibara ry'umuhondo, munsi yaho hari imodoka ndende y'umweru itwara imizigo.

Ikimodoka kinini gifite ibara ry'umutuku. Kibi kiri mu bwoko bw'imodoka zishinzwe kwikorera izindi zagize impanuka. bacyita burekidawuni. Kirimo kirabisikana n'indi modoka yikoreye ibicuruzwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari batwaye abagenzi, ni abamotari babiri kandi hari n'umunyonzi uheretse umugenzi ku igare nawe urimo kugenda, bageze i ruhande rw'ahantu hari ikiraro.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane uri ahantu mu mujyi, munsi y'umuhanda hari inzu ndende cyane ya etage, umuhanda ufite inzira abanyamaguru bagenewe kwambukiramo, hari umu motari ugeze kuri iyo nzira y'abanyamaguru.

Iyi modoka nini cyane ifite ibara ry'ubururu itwara abagenzi benshi, iri mu muhanda irimo kugenda itwara abagenzi benshi kubera ko itwara abagenzi mirongo irindwi bamwe baba bicaye abandi bahagaze abantu bakundaga kuyita shirumuteto.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru akaba ari imodoka yikorera imizigo iri mu muhanda, inyuma itwikirije ihema rifite ibara ry'umuhondo, hari umunyonzi utwaye igare udafite umugenzi n'umumotari uhetse umugenzi.

Abamotari bari mu muhanda ni babiri, bagiye kugera ku nzira aho abanyamaguru bambukira hari imirongo y'umweru ishushanyije umuhanda. Bari mu muhanda wa kaburimbo.

Ikimodoka kinini cyane, cyikoreye conteneri zirimo ibicuruzwa bitandukanye, kirimo kiragenda mu muhanda wa kaburimbo, kigeze ahantu hagenewe kwambukirwa n'abanyamaguru. Ni ahantu haba haciyemo imirongo y'umweru mu muhanda.

Moto itwaye imizigo ifite ihema inyuma rifite ibara ry'umukara ku iruhande rwa moto hari umuntu uri gutwara igare uhetse undi muntu inyuma munsi y'umuhanda munzira y'abanyamaguru harimo umugenzi urimo kugendesha amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi urimo gusunika umufuka munini cyane ku igare, agiye guhura n'imodoka y'umweru iri muhanda irimo kumanuka, munsi y'umuhanda hateye ibiti, munsi yabyo hateye indabyo zitandukanye.

Aho imihanda ibiri ya kaburimbo ihurira. Hari icyapa kigaragaza ko nta modoka zitwara abagenzi zemerewe guhagarara. Umuhanda umanuka harimo umumotari udafite umugenzi urimo kumanuka. Imihanda yombi ikikijwe n'ibiti.

Icyapa kigaragaza ko hari imirimo itandukanye irimo gukorerwa mu muhanda, ni icyapa kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ritukura, imbere hari ibara ry'umweru ririmo umuntu w'umugabo ufite igitiyo mu ibara ry'umukara.

Legacy hotel ni hotel nziza cyane iherereye i Remera, ku muhanda ujya ku Giporoso, ni hoteli y'inyenyeri eshanu kandi iyi hoteri ikunda kwakira abakiriya benshi batandukanye.

Ku muhanda wa kaburimbo hari umumotari, yambaye ijire y'akazi n'ingofero ikinga umutwe ahagaze ku muhanda arimo arashaka abagenzi, haruguru y'umuhanda hari inzu y'umuturage.

Inzu yubatse iruhande r'ishyamba, ifite ubusitani butandukanye, bugizwe n'indabyo n'ibiti, kandi mu busitani harimo amatara. Ni inzu imezeze neza, kandi ifite amashanyarazi.

Umurenge wa Ndera ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ni umurenge wateye imbere cyane ko uri n mu mujyi wa Kigali wahasanga imiturire yiyubashye kuko hari amazu menshi atandukanye ageretse hari n'andi mazu asanzwe.

Aho umuhanda usanzwe w'igitaka uhurira n'umuhanda wa kaburimbo, ni umuhanda ukozwe neza ufite ku ruhande akayira k'abanyamaguru, umuhanda wa kaburimbo munsi y'umuhanda hari abaturage bahatuye.

Umuhanda wubakanye ikoranabuhanga, ni umuhanda wa kaburimbo, uherereye aho bita ku Kinamba mu mujyi wa Kigali, ni umuhanda umwe unyura hasi, undi ukanyura hejuru yawo, umuhanda wo hasi hariho abamotari barimo kugenda bashaka abagenzi.

Imihanda ya kaburimbo ihuriye mu masangano, hari umunyonzi ufite igare utegereje abagenzi. Ku muhanda hari icyapa kigaragaza isibo, gikoze mu ibendera ry'igihugu, hari n'icyapa kiranga umuhanda.